Utubari bacururizamo inzoga zitandukanye, ariko habamo n'ibiribwa kuko nta muntu unywa atariye, habamo inyama zokeje, habamo imigati n'ibindi biribwa byiza cyane.

Insengero zigisha abakirisitu gukora ibikorwa by'ubugiraneza, zibigisha kugarukira Imana, batura amaturo menshi, afasha abayobozi bayobora amatorero.

Amavomo rusange afasha abaturage muri rusange badashobora kwizanira iyabo migezi, afasha abavomesha kubona amafaranga afasha mu isuku muri rusange.

Amaduka bacururizamo za matora baryamaho, bacururizamo inzoga zipfundikiye banywa, bacururizamo amakoti yambarwa n'abagabo, imikenyero y'abagore n' myenda y'abana.

Butike zifasha abantu guhaha ibintu bitandukanye，habamo ibiryo， ubonamo imbuto， ubonamo ibiribwa bitandukanye， ubonamo ibishyimbo，ubonamo n'ibindi bicuruzwa by'ubwoko bwose.

Inzu bacururizamo ibintu binyuranye, bacururizamo ibyo kurya bitetse, bacururizamo inzoga baywa za byeri, hari bacumbikamo, bararamo, bakoreramo inama, baruhukiramo.

Amazu yo bacururizamo ibinyobwa bitandukanye, bacururizamo mitsingi, bacururizamo pirimusi bacururizamo henikeni; abakozi bakoramo babona amafaranga yo kwitunga, bakishyurira abana babo amafaranga y' ishuri, akabafasha no mu bindi bintu bitandukanye.

Amazu bacururizamo ibyo kurya, habamo inyama, bakoreramo imigati, bakoreramo za keke, batekeramo icyayi, banagicururizamo.

Mu maduka bacururizamo ibintu bitandukanye amateleviziyo, bacururizamo amatelefoni, bacururizamo za ekuteri ,bacururizamo amapasi ,ndetse habamo n'ababikanika, iyo gipfuye ukijyanayo bakakigukorera.

Iduka bacururizamo ibintu bitandukanye. Bacururizamo ibiribwa, bacururizamo ibikoresho bitandukanye harimo nka pampegisi, babinda abana, amasukari bashira mu gikoma n'ibindi bitandukanye.

Iduka bacururizamo ibikoresho baryamamo, birimo amashukaku yo gusasa no kwiyorosa, ibiringigiti biyorosa, bacururizamo intebe bicaraho, babacururizamo ibikapu bahahiramo.

Iduka bacururizamo ibikoresho bya siporo, bacururizamo imipira bakina, bacururizamo imyenda bakina bambaye, bacururizamo godiyo bakinana umupira.

Amahoteli yakira ubukwe, agaburira abantu, hakorerwamo inama zitandukanye, mu mahotel ba mukerarugendo bacumbikamo, amahoteli yinjiza amafaranga, atanga umusoro, aha abantu batandukanye akazi.

Inzu bacururizamo ibyo kurya bitandukanye bitetse. Batekeramo inyama, banazokerezamo, batekeramo amafiriti, batekamo imboga, bigafasha abaturage gukira inzara.

Iduka bacururizamo ibintu bitandukanye, amavuta yo kwisiga, ibikapu bahahiramo, ingofero zambarwaga n'abagabo, amashakoshi atwarwa n'abagore, b'ibikapu baheka mu mugongo y'umukweheto bambara zitwa bodaboda.

Iduka bacuruzamo amakara yo gucana, ibirayi bateka, ibishyimbo bateka, n'ibyo batera, umunyu nawo barawuteka n'ibindi bicuruzwa bitandukanye barabicuruza.

Mu maduka yo mu Rwanda bacuruza imyaka itandukanye, bacururizamo ibishyimbo, bacuruzamo amasaka, bacuruzamo amajyeri, bacuruzamo ibindi bicuruzwa bitandukanye, kandi binjiriza leta umusoro.

Iduka bacururizamo amatelefone ajyanye n'igihe, bacururizamo ibikoresho by'abanyeshuri birimo amakaye bandikamo, amakaramu bandikisha amarate bacisha imirongo.

Inzu bakoreramo imigati y'ubwoko butandukanye, bakoreramo amasambusa, bakoreramo amandazi, bakoreramo za benye, amwe bakayaranguza, izindi bakayicuruza.

Amaduka acururizwamo imiiti y'amatungo, bacururizamo ibiryo inkoko zirya, bacururizamo ibiheri biribwa n'ingurube, bacururizamo imiti yica udukoko n'uburenge.

Mu tubari bacuruzamo ibinyobwa bitandukanye. Aho bacuruza byeri, aho bacuruza mitsingi, bacuruzamo za fanta, banyweramo za musiteri, bamweyweremo za henikeni, n'ibindi binyobwa bigezweho.

Iduka bacuruzamo ibyuma by'amagare, bacuruzamo amaradiyo, atandukanye, bacuruzamo ibyuma by'amashanyarazi, bacuruzamo amagare atandukanye, amateleviziyo kagezweho, n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bijyanye n'igihe.

Iduka ricururizwamo ibintu byinshi: amagare n'ibyuma by'amagare, bagurishirizamo imyaka itandukanye, bacururizamo ibishyimbo, habamo amasaka n'ibindi.

Iduka bacururizamo intebe z'amafoteye bicaramo, ibikapu bitwarwa n'abagore, babihahiramo imyenda, itandukanye. Igurwa n'abagabo, igurwa n'abana. Iburwa n'abantu bose.

Tujya kunywerayo inzoga z'amoko zose za mitsingi na za pirimusi. Ziba ziri mu macupa n'amakesi. Bacuruza n'ibiryo byo kurya bya mucoma n'inyama z'inkwavu n'iz'inkoko. Utanga amafaranga bakabiguha, ukabirya ugataha.

Iduka bacururizamo amashuka baryamaho , Intebe bicaramo, bagurishirizamo ibiringiti biyorosa , bagurishirizamo indobo, bagurishirizamo udukoresho twabana tubadutandukanye.

Iduka batangiramo serivisi z'irembo, bacururizamo amayinite ya MTN, bacururizamo amazi yo kunywa ya Nili, bacururizamo ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Iduka bacururizamo ibikoresho bigezweho, bacururizamo ama tereviziyo nini, bacururizamo amaradiyo, habamo na memorikadi, kandi bacururizamo ibikoresho byumuziki.

Ama hoteri yo mu Rwanda afasha abantu benshi, afasha ba mukerarugendo bakabona aho bacumbika, kandi binjiriza igihugu amafaranga, afasha abakozi bakoramo babonamo amafaranga menshi, bagashobora kwitungisha ya mafaranga babonamo.

Iduka bacuruzamo inkweto zifunguye bambara zitwa bodaboda, bacuruzamo iminyururu y'amagare, bacuruzamo inyanya zo guteka, bagurishamo amashu yo kurya.

Amaduka bacururizamo ibintu bitandukanye, bacuruzimo imiceri yo kurya, ibishyimba byo guteka n'ibyo gutera, bacururizamo amakara, bacururizamo n'ibirayi ndetse n'iyindi myaka itandukanye.

Iduka bacuruzamo amagare ya siporo, bacururizamo ibyuma by'imodoka, ibya moto n'iby'amagare, bacuruzamo amaradiyo, amateleviziyo, bacuruzamo ibikoresho bitandukanye.

Iduka bacururizamo ibirungo bashyira mu biryo, nka za sorwatomu, bacururizamo amagi yo kurya, bacururizamo n'imitobe banywa yo mu mbuto.

Ubukanishi na bwo bujya butera imbere, bakanika amaradiyo basudira ibyuma, bakora amapasi bakora na telefoni, bakanika ibikoresho bitandukanye bigezweho by'ikoranabuhanga, kandi bibinjiriza amafaranga yo kwitunga.

Uruganda rukora imiti yo gutera mu myaka, irinda udusimba twangiriza imyaka habamo nka roketi, na za tetane kandi imiti myinshi bayikora mu bimera.

Inzu z' abanyabukorikori babarizamo inkoni zijyanye n'igihe, babarizamo ibibumbano bitandukanye, bakoreramo imitako, baboheramo ibiseke, imitemeri, n'imigongo.

Iduka bacururizamo amavuta yo kwisiga, andi afungurwa, amavuta y'igikotori, ubwo basiga mu musatsi, ndetse bacururizamo n'amayinite ya MTN.

Amaduka acuruza ibikoresho bitandukanye birimo ibyuma bikanikisha imodoka, amapine y'amamoto n'ay'amamodoka harimo za lisance bashyira mu modoka n'ibindi byuma byinshi bifashisha bari gukanika amamodoka.

Isoko tujya guhahiramo ibikoresho byinshi bitandukanye, byo kuryamaho za matora n'amashuka n'ibyo guteka imiceri na kawunga, n'ibishimbo n'ibikoresho by'isuku by'amasabune n'amavuta yo kwisiga, n'inkweto zo kwambara.

Iduka bacururizamo ibikoresho bifashisha mu biro, n'ibyo bakoresha mu mashuri habamo: impapuro, zitandukanye bacururigamo amakaye, bagurishirizamo amarati, bagurishirizamo amatushi, bacururizamo n'amakaramu.

Iduka bacururizamo amazi atandukanye yo kunywa, hari amazi y'inyange ,hari ayitwa jibu, bacururizamo n'amagaze batekaho bakagira n'amashyiga.

Tugura ikawa yo kunywa yo gushira mucayi. Bayikora mu gihingwa bita ikawa iba ari y'ibiti bikera bikazana utubuto, twatukura bakadusoroma, bakadutonora bakatwanika bakatujyana mu isoko. Niho bajya kugurira ikawa yo kunywa.

Inzu bogosheramo, bogosheramo abagabo, basukiramo abagore imisatsi itandukanye, bakoreramo ibintu byinshi, basiga inzara bakanazica neza.

Iduka barangurizamo amasafuriya yo gutekamo, amabase yo gukarabimo, ibikosi banywesha inzoga n'ibikoma, ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu mirimo yo mu rugo.

Iduka bacururizamo ibikoresho bubakisha, habamo amabati y'ubwoko bwose, bacururizamo imisumari basakarisha, n'iyo batera mu nzugi, n'ibindi bikoresho bubakisha byose.

Iduka bacururizamo ibiribwa. Bahacururiza ibishyimbo bagurishirizamo amasaka, bahacururiza amakara yo gucana, bacururizamo udufuka bahahiramo.

Inzu bacururizamo amasaha yo kwambara, amesha abantu igihe, bacururizamo amasakoshi y'abagore yayandi batwara, bacururiza amavuta yu'bwiza bwo mu mutwe, nayo ku mubiri.

Amaduka bayacururizamo ibintu bitandukanye, bacururizamo imyenda yo kwambara bacururizamo amasafiriya yo gutekamo, bacururizamo ibikosi banywesha bacururizamo n'ibindi byinshi bitandukanye.

Hoteri zakira abantu benshi, zirabacumbikira. Hari abakoreramo ubukwe, hari abakoreramo inama, kwishimishirizamo abandi baruhukiramo zikinjiza amafaranga menshi yo kwitunga.

Amahoteri afite ubusitani bwiza cyane bubereye bwakira bamukerarugendo bakabinjiriza amadovize, bakira inama mpuzamahanga, aberamo inama z'abayobozi bakome, aberamo n'ubukwe.

Iduka bacururizamo amabase yo gukarabiramo n'ayo kumeseramo, ibikosi banywesha igikoma, ibikosi babinywesha umusururu, babidahisha amazi, Ibikosi babyifashisha mu bukwe n'ahandi.

Iduka bacururizamo utuntu dukorwa mu bigori twitwa injugu, bacururizamo ibiryo, bacururizamo icyayi, bacururizamo n'imigati unywesha cya cyayi.

Iduka bacururizamo imyuko bakoresha imitsima, banayishigishisha igikoma, banayivangisha ibiryo, bacuruzamo ubudodo bwo kudodesha, bacuruzamo imigati iba mu mumadobo.

Iduka bacururizamo imyenda yo kwambara Iy'abagabo bambara, iy'abagore bambara, bacururizamo amasabune n'ibindi bikoresho bitandukanye bikoreshwa mu isuku.

Amaduka yo mu Rwanda acururizwamo ibintu bitandukanye. Bacururizamo ibinyobwa, bacururizamo amavuta yo kwisiga, bacururiza amavuta yo kurya, bacururizamo ubuki buva mu nzuki, mbese bacururizamo ibintu byinshi bitandukanye.

Amaduka acururirizwamo ibintu bitandukanye, bacururizamo: amavuta yo kwisiga ,bacururizamo ibirungo bakarangisha inyama ,bacururizamo imiceri yo guteka ,bacururizamo ibintu byinshi bigirira umubiri w'umuntu akamaro.

Amabanki agira akamaro kenshi cyane, afasha abaturage kwizigamira, abarinda abasambo bakwiba amafaranga yabo ari mu rugo, zifasha gutanga inguzanyo n'izindi serivisi ziba zitandukanye.

Abantu bakorera mu makoperative barunguka cyane. Bamwe bacuruza inanasi, abandi bacuruza ibinyomoro, abandi bacuruza ibishyimbo, hari n'abakora ubukorikori, bakorera hamwe kandi birabungura cyane.

Hoteli zifite akamaro kenshi cyane ,zicumbikamo ba mukerarugendo baba bazanye amafaranga mu gihugu ,hakorerwamo inama zitandukanye, hakorerwamo ubukwe ,zi tuma igihugu gisa neza, kandi arega zitanga n' umusoro ku gihugu.

Amahoteri uko ari gatera imbere afasha ba mukerarugendo, kandi binjiza amafaranga iyo bari kuraramo, afasha abakozi bakoramo, yabakira inama, yakira ubukwe n'ibindi bitandukanye.

Ubucuruzi buciriritse bufasha ababukora kugira icyo binjiza, barihira abana babo amafaranga y'ishuri, bishyura ubwisungane mu kwivuza, ndetse babonaho n'ibyo kurya biciriritse.

Inkoko ni itungo ryiza cyane zitera amagi avamo umuleti bakarya bayarya anatogosheje, aranagurishwa, akunzwe n'abantu, atanga amafaranga menshi cyane yo kwifashisha.

Kuri butiki tujya kuhahahira ibyo guteka umuceri, agahunga, isukari, amakaroni, amavuta bakarangisha, itanga amafaranga. Bagupimira ku kiro ukishyura ugataha ukajya kubiteka.

Ibirayi babihingisha ifumbire y'ibishingwe, babifumbiriza imvaruganda, babigemura ku masoko atandukanye, babirya bitogoshe, babiryamo amafiriti baryamo na za mucoma.

Izi mbizo bazigurishamo amafaranga, kuko barazicuruza kandi baba nabo baziranguye, zikubuzwa mu bigo by'amashuri, zikubuzwa mu masoko, zikubuzwa ku muhanda, zikoreshwa mu mbuga z'amahoteli, zifasha abagore gukora isuku.

Isombe bayisoroma ku biti, ni imboga nziza cyane zongera amaraso mu mubiri, bazijyana ku isoko bakayigurisha, abayiguze bayijyana kuyishesha ku cyuma kimeze nk'indobo, bamara kuyistya bakayijyana murugo bakayiteka cyangwa bakayisekura mw'isekuru n'umusekuzo, bakayiteka bakayirya zira ryoha cyane.

Isoko bacururizamo ibiribwa bitandukanye bacuruzamo imbuto, bacuruzamo imineke bacururizamo ibirayi bagurishirizamo ibiribwa by'amoko yose atandukanye.

Ibirago babiboha mu byatsi, babyifashisha kwicaraho no kubiryamaho, babyanikaho imyaka itandukanye, ibirago babigurisha amafaranga yo kwitungisha.

Isoko bacururizamo amabase yo gukarabiramo, imyuko yo gutekesha ubugari, bazitekesha n'igikoma, bacururizamo intebe bicaraho, bacururizamo ibikosi banywesha.

Iduka bacururizamo imyenda itandukanye, amakoti y'abagabo, amakanzu y'abagore, amabase yo gukarabiramo, ibikosi banywesha, amasafuriya batekeramo n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Amasoko bacururizamo amaresitora hakabamo, ibyo kurya bacururizamo: imigati y' abaranguza, y' abagurisha, umwe umwe bacururizamo, ibiribwa bitandukanye.

Inkwavu ziri mu gitebo, barazorora zakura bakazigurisha, bakabona n'amafaranga cyangwa bakanazibaga bagateka inyama bakazirya, zivura imirire mibi, zigatuma abana bakura neza b'incuke, bagakura bafite igikuriro cyiza.

Imboga ni nziza cyane, inyanya, intoryi, karoti, n'ibitunguru, barabikaranga hari n'ibyo batogosa ,kandi babigurisha amafaranga yo kwikenuza kwivana mu bukene.

Mu isoko bacuruzamo ibikoresho bikoreshwa mu gikoni, za rushe batahuza, ibiyiko barisha, indobo bogerezamo ibikoresho n'ibirahuri banywesha amazi.

Amaduka yo mu Rwanda n'amasoko bacuruzamo imbuto zinyuranye, izo mbuto bacuruza harimo amaronji habamo inyembe, habamo imineke habamo indimu, habamo imbuto z'ubwoko bwose bunyuranye.

Iduka bacururizamo amavuta yo kurya, bacururizamo za ji banywa, bacururizamo imyenda, ibikapu duhahiramo, bacururizamo ibikoresho byinshi bitandukanye.

Inzu bacururizamo imikandara abagabo bakenyeza, amasakoshi abagore babikamo, bacururizamo ibiringiti, bacururizamo ibishora abagore bitera, bacururizamo ibitambaro batekaga mu mutwe.

Iduka bacururizamo ibikoresho bitandukanye. Bacururizamo imyuko yo gutekesha, bacururizamo imbabura batekaho, bacururizamo amabase yo gukarabiramo, indobo zo kubikamo ibikoresho n'intebe bicaraho.

Inzu bacururizamo imitobe iva mu mbuto zitandukanye, hari iziva mu myembe, hari iziva mu matunda, bacururizamo amabiswi, bacururizamo n'imyunyu.

Iduka bacururizamo ibikosi banywesha, amatasi babikamo ibikoma, amasiniya yo gutahuriraho, akantu ko gukoreraho imigati, amabase bakarabiramo, ibidomoro bavomesha.

Iduka bacururizamo ifu nziza bashigishamo igikoma, bacururizamo za kanta batera mu mutwe, bacururizamo amapaoroduwi bibashyira mu mutwe, akanyereza imisatsi.

Ibinyampeke nk'ibishyimbo, soya, amashaza bigira akamaro kenshi, barabiteka bakabirya, barabicuruza bikinjiza amafaranga, bakabyikenuza, andi bakayarihiramo abana ku ishuri.

Mu isoko bacururizamo imyenda igiye itandukanye, ingutiya z'abagore, imipira y'imbeho zo kwambara, amakoti y'imbeho, amapantaro y'abagabo, ibisubeti byambarwa n'abana n'ibiindi.

Imbuto zigira akamaro kenshi cyane ku mubiri w'umuntu. Hrimo imbuto zitwa pome, harimo izitwa orange, hari n'izindi mbuto zitandukanye zibasha kurinda ubuhumyi bw'amaso, zirinda indwara zitandukanye.

Isoko bacururirizamo intebe zo kwicaraho ziciriritse, bacururizamo ameza yokuriraho bagurishamo inkoko abaguzi baziguraga bakaja kuzorora iwabo, bacururizamo ibirago, bacururizamo ibindi bikoresho bitandukanye, byifashishwa mu buzima bwa buri munsi bw'iwacu mu rugo.

Amasambusa ni akagati gashimishije cyane, bafata ifarini, bagashyiramo utunyama babifunga neza, bashyiramo utuvuta dukeya ubundi tukaryohera abaturya.

Isoko hacururizwamo ibintu bitandukanye habamo imboga habamo n'amagi. Amagi agira akamaro kenshi cyane yongera intungamubiri, amagi yinjiza amafaranga amagi barayasurisha, amagi ni ingirakamaro cyane.

Ubucuruzi buciriritse, bufasha ababukora kubona amafaranga yo kubatunga, abaryi nabo ndetse n'abaguzi, igihe cyose ukeneye guhaha, ubona aho uhahira, igihe cyose ushakiye cyose.

Mu isoko hacuruzwa ibintu bitandukanye, abacuruza imyenda, abacuruza ibyo kurya birimo: nk'ibijumba binini bahata, ibitoya bapfa gutereka, abacuruza amateke, abacuruza imyumbati, abacuruza imineke n'ibindi biribwa bitandukanye.

Inzu bacururizamo umunyu bateka mu biryo, bacururizamo biswi barya, bacururizamo imitobe ikomoka mu mbuto zitandukanye: hari iva mu matunda, hari iva no mu binyomoro.